Muri siporo naho ni ingezi ko bageza igihe bakicara ahantu bagahurira hamwe bagakora inama, bakareba ibitagenda neza n'ibyo bakongeramo bakabyigira hamwe kugira ngo birusheho kugende neza.

Amahirwe dufite ni uko twagize umutekano utagereranywa aho ibihugu byinshi biza gukorera inama hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo bakemure ibibazo byo mu bihugu byabo kandi batange n'umusanzu watuma iterambere rirushaho kwiyongera.

Mu Rwanda hamaze kubakwa sitade nyinshi kugira ngo zijye zidufasha mu mikino mpuzamahanga ijya ibera mu gihugu cyacu kandi n'abatuye mu Rwanda nabo babone aho bakorera imyidagaduro itandukanye.

Umujyi wa Kigali utumiza inama y'abaturage kugira ngo uruhare rwabo rugaragare mu igenamigambi, ingengo y'imari n'imihigo umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu kugeza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveni Otoriti, kigeza igihe kigatumiza inama kugira ngo cyibutse abantu ko bagomba gusora kandi batarengeje igihe bagenewe gusoreraho.

Abayobozi bakuru bo munzego z'umutekano, bitabira ibirori bitandukanye, yaba iby'imyidagaduro, harimo nko kureba umupira w'amaguru cyangwa ukinwa n'intoki.

Abanyarwanda mu muco wabo iyo hari ibitagenda neza cyangwa hari ibyo bakeneye kunguranaho inama, bahurira ahantu hamwe bagahana ibitekerezo buri wese akavuga uko abyumva bakarushaho kubaka igihugu ndetse basigasira n'umutekano w'aho batuye.

Inama zibera mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo zitabirwa n'abirabura gusa, n'abafite uruhu rwera baraza na bo bakahakorera inama cyangwa bakahahurira n'abandi bantu benshi bo mu bihugu bitandukanye.

Ibikorwa byose bitegurwa cyangwa imishinga itegurirwa abaturage, hategurwa inama igamije kubibamenyesha, kandi nabo bakagira ibitekerezo batanga ku byo bagejejweho.

Inama mpuzamahanga zibera inaha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, kubera umutekano uhari bituma nta mpungenge abazitegura ndetse n'abaza kuzihakorera bagira.

Ikigo cy igihugu cy'imisoro n'amahoro, cyashyizeho uburyo wahindura umubare wawe wibanga, wakoreshaga, sura wa eshatu, akadomo raraa, akadomo govu, rawa.

Ahatangirwa serivise z'irembo cyangwa amafoto baguhereza ako kanya ndetse n'ahatangirwa serivise zijyanye n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti.

Kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga ubyikorere nawe, ibisabwa ni irangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imyaka iri hejuru ya cumi n'umunani.

Kishyura mituweli ukoresheje urubuga irembo govu, gana urubuga wa eshatu akadomo irembo akadomo govu akadomo rawa wiyishyurire ubwisungane mu kwivuza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kigeze igihe kikwibutsa yuko hari umunsi ntarengwa wo gutanga umusoro usanzwe usora, buri gihembwe cyangwa se buri mwaka barakwibutsa.

Itariki yo kwishyura imisoro ndetse n'iyo kuyimenyekanisha, iyo iri hafi kurangira ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, gishyira hanze itangazo rigaragaza yuko hari itariki ntarengwa yo kuba watanze uwo musoro.

Irushanwa rijya ribera mu Rwanda rizwi nka "turu di Rwanda" ,aho abakinnyi batwara amagare baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye, bakaza kwitabira uwo mukino uba wabereye hano iwacu muRrwanda.

Iminara niyo idufasha muri serivisi z'itumanaho dukenera umunsi ku munsi, yaba guhamagara cyangwa guhamagarwa ndetse na interinete n'ibindi byifashishwa mu ikoranabuhanga.

U Rwanda rwahisemo gukorana n'amakipe yo mu bindi bihugu kugira ngo barusheho gushishikaza gahunda ya visiti Rwanda, niyo mpamvu n'ikipe yitwa bayeni munici nayo yasinyanye amasezerano n'u Rwanda.

Gira amakenga ushishoze mu gihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye.

Ushobora gukora bizinesi ugahagararira amabanki aho uherereye harimo beka cyangwa ekwiti banki wanahagararira emutiyeni ugatanga serivisi zabo.

Gutangiza ku mugaragaro ukwezi ko gushimira abasora, umusoro wawe wagize kandi uzakomeza kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza, dufatanye kuzahura ubukungu.

Intambwe ya kabiri ngo nawe ugire ibyo wikorera uciye kuri serivisi z'irembo kanda uri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga ibisabwa usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bagira igihe bakiga nk'ibijyanye n'ikoranabuhanga kuko iyo basoje amasomo yabo, hari byinshi barikenera kurikoreshamo niyo mpamvu rishyirwa mu masomo yabo.

Ntacyo uzitwaza nucibwa amande yuko utatangiye umusoro wawe igihe cyangwa utamenyekanishije ibyo ugomba gusorera ku gihe, kuko hari iminsi ntarengwa rwanda reveni iba yatanze kandi ikabikumenyesha.

Ibibazo bikunze kubazwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubutaka, ni gute nabona amakuru ku butaka? Amakuru ku butaka yaboneka hakoreshejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ahubatswe umunara utuma itumanaho riboneka kandi rikagenda neza ridatengushye abarikoresha; hari inzu iri iruhande rwaho, kandi hari n'umuyoboro ujyana amashanyarazi.

Hari ibyangombwa ushobora kuba ukeneye by'ikipe yawe cyangwa by'abakinnyi nko gusaba irangamuntu muri nida cyangwa ubwishingizi bw'abakinnyi b'ikipe yawe waca ku irembo govu hanyuma ugahabwa iyo serivisi.

Icyegeranyo cy'ibipimo by'imiyoborere mu Rwanda, gikorwa hagamijwe kugaragaza ishusho y'uko imiyoborere ihagaze mu gihugu, mu byiciro bitandukanye, no kugaragaza ingamba mu gushyiraho politike mu nzego zitandukanye z'igihugu.

Ushobora kwiyandikisha nawe ubwawe ugiye gukorera porovizwari , gana urubuga wawawa akadomo, irembo akadomo govu, akadomo rawa uhabwe ibindi bisobanuro.

Ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere aragibi, umuturage niwe bashyize imbere ku isonga kuko niwe bareberera mu bikorwa byabo ndetse yaba no mu madini naho baba babareberera.

Iminara ni ingenzi kuko idufasha gukoresha amaterefone yacu, ndetse n'izindi serivisi dukenera zijyanye n'ikoranabuhanga. Twifashisha iyo minara; ni byiza rero ko ikomeza kongerwa hano mu gihugu.

Tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'biri, mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, abishyura imisoro cyangwa bakanayidekarara, bibutswaga ko ari wo munsi wa nyuma wo kwishyura umusoro wa bibiri na makumyabiri na gatanu.

Ikigo k'igihugu gishinzwe iby'imisoro n'amahoro, iyo habura iminsi bagenda bakwibutsa kugira ngo utazacibwa amande n'ibihano by'ubukererwe, igihe watinze utanga umusoro w'ipatanti.

Abayobozi bakora mu kigo cy'imisoro n'amahoro, harimo uwitwa batamuriza hajara komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu, na mbera ami komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'imusoro.

Uruganda rukora telefoni ruzwi nka Tekino bazana telefoni z'ubwoko bwinshi, hano mu Rwanda amafaranga waba ufite urabegera ukagura iyo ushaka yaba iya gatotoroshi cyangwa se nka Simati foni.

Tanga umusoro wawe hakiri kare ntutegereze umunsi ntarengwa wo kwishyura bizagufasha kubona umwanya uhagije wo gukurikirana ibikorwa byawe bindi kandi ntucibwe n'amande igihe iyo tariki yatanzwe yarenze.

Mu kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, wakoresha mobayiro mani cyangwa mobikashi, menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa yo gutangiraho umusoro.

Kora urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ,aricyo Rwanda reveni otoriti (RRA) uciye ku rubuga rwabo w eshatu akadomo rra akadomo govu akadomo rw.

Ahubatswe iminara haba hazengurutswe n'uruzitiro kugirango hatazagira uwinjiramo atarabiteganyirijwe, akagira ibyo yangiza cyangwa nawe bikamuviramo izindi ngaruka atatekerezaga.

Kurikira ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, umenye itariki ntarengwa, iyo uba watangiyeho umusoro wawe kugira ngo utazacibwa amande.

Igihe cyose utwaye ikinyabiziga uzagera ahantu hari icyapa gishushanyijeho akadunduguzi, bigaragara ko imbere ugiye kugera hari akadunduguzi mu muhanda.

Ahantu hari ibiti byakuze bigasatira insinga z'amashanyarazi, baba bakwiye kubitema bakabikuraho, kuko bishobora kuzana ingaruka zirimo gucika kw'insinga bigatera ikibazo cyo kubura k'umuriro.

Insinga ziri ku mapoto zikwirakwiza umuriro hirya no hino mu duce dutandukanye si byiza kuhegera cyane kuko hari iziba zimanutse zijya mu butaka hari ubwo wasanga umuriro uhagufatiye, tuhirinde.

Amazu bigaragara ko asakajwe amabati ashaje, aba agomba kuvugururwa hagashyirwaho andi mashyashya; kuko abayatuyemo baba bavirwa ndetse bikaba byanayaviramo guhirima.

Hari ibyuma byubatswe kugira ngo bijye bikwirakwiza umuriro mu duce dutandukanye ndetse hari n'ibizwi nk'amapoto bicishwaho insinga nazo zijyana umuriro mu baturage.

Mugihe udashaka gukoresha umuriro mwinshi, ukeneye gukoresha amazi ashyushye mu bwogero bwawe, hari imirasire ikoreshwa ugashyushya amazi yo mu nzu yo koga.

Imihanda ya kaburimbo yakozwe ishyirwaho n'inzira z'abanyamaguru ku ruhande, mu rwego rwo gukomeza kwirinda impanuka za hato na hato no kubungabunga uburenganzira bw'abagenda n'amaguru.

U Rwanda rwihaye intego ko buri muturage wese agomba kugira ikimumurikira iwe mu rugo yaba umuriro w'amashanyarazi, cyangwa uturuka ku mirasire y'izuba, iyo ni intego kugira ngo buri muturage wese ave mu kizima.

Kugira ngo harushweho kugaragara neza, hari imihanda yagiye ishyirwaho, amatara atangira kumurikira abahaca igihe bwije guhera saa kumi n'ebyiri. Niyo mpamvu ushatse wajya ugenda igihe cyose ushatse, yaba ku manywa cyangwa nijoro.

Kugira ngo insinga zitazajya zangizwa n'abantu abo aribo bose, izikwirakwiza amashanyarazi zigomba kuba zimanitse ahantu hejuru, hadashyikirwa na buri wese, hurirwa n'ababugenewe babyigiye kugira ngo bakemure ikibazo cyaba cyahabaye.

Inzu zishaje bigaragara ko zikenewe kuvugururwa haba gushyiraho amabati mashyashya, ndetse no kongeraho umucanga ku bikuta, kandi hakanakorwa ku buryo bujyanye n'igihe.

Nutekereza gukora urugendo rwerekeza mu ntara, uzibuke kureba sosiyete itwara abantu n'ibintu yitwa ritiko kuko ifite serivisi zinoze, kandi bagira n'aho wacomeka telefone yawe igihe ubikeneye.

Gira imirasire y'izuba iwawe mu rugo bizadufasha igihe umuriro wabuze w'amashanyarazi, cyangwa nta mafaranga ufite yo kugura ubundi imirasire y'izuba yo izaba iri kugukora.

Ahatangirwa serivise za leta nk'izo abaturage bakenera ku kagari, ku murenge no ku karere ndetse n'ahandi, harangwa n'inyubako yanditseho ibyo biro niba ari iby'akagari kandi hakaba hari n'idarapo ry'igihugu.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi biherereye mu ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Ruhango, mubigane kuko bitanga serivisi nziza kandi biri mu bitaro byashinzwe mbere hano muri iki gihugu.

Ku bitaro kwa muganga kuko abahagana baba batazwane n'ikintu kimwe cyangwa badafite uburwayi bumwe, hari ibyapa byahasizwe bigaragaza aho wabariza bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ufite.

Ibitaro bya Kacyiru byashyizeho icyapa kinini kigaragaza aho biri ndetse kiriho na serivisi batanga, aho wagenda uzisanga nk'aho wabona umuyobozi w'ibitaro ndetse naho wasanga inzu y'ababyeyi.

Kubera ko hari igihe amazi abura, cyangwa ay'imvura agapfa ubusa, tuzirikane gushyira ibigega aho dukorera cyangwa aho dutuye, kugira ngo ayandi nagenda tubone ayo dukoresha imirimo yindi dushaka gukora.

Mu bitaro ahari inzira zihuza inyubako zaho, haba hasakaye kugira ngo bavanye umurwayi mu nyubako imwe bamujyana mu yindi atanyagirwa cyangwa akicwa n'izuba.

Abatangirwa serivisi z'ubuvuzi n'abari muri za gereza nabo iyo bahuye n'uburwayi bemerewe kuhagana bakivuza igihe uburwayi bwabo butavurwa n'abaganga bafite aho bafungiye.

Imbangukiragutabara ifasha abarwayi kubajyana ku bindi bitaro ndetse n'iyo ufite umuntu urwaye mu rugo utabona uko umugeza kwa muganga arembye uhamagara ku bitaro bakohereza ambilance ikaza kumutwara.

Akarere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, naho hari ibitaro byakira abarwayi. Uhaturiye urahivuriza kandi hari n'igihe haba hari serivisi zoherezwamo abantu bavuye ahandi kure.

Ahari ibitaro cyangwa amavuriro hashyirwaho amasaha ntarengwa yo kuba uje gusura umuntu wawe uhari n'ayandi ugomba kuba wasohokeye ashyirwaho mu gitondo ndetse na nyuma ya saa sita.

Ibitaro by'umwami Faisal biherereye Kacyiru mu karere ka gasabo ubu byaravuguruwe ku buryo bitanga serivisi mpuzamahanga mubigane mwivu.

Kabuga Felisiye ni umuntu wagize uruhare muri jenoside yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko yateye inkunga abicaga abatutsi muri iki gihugu, ubu yarafashwe ntago agishakishwa.

Umurongo watanzwe mu rukiko umutangabuhamya avuga ibyo yiboneye cyangwa ibyo yumvise mu buryo butaziguye ariko urukiko ni rwo rwonyine rusuzuma mu bushishozi bwa rwo icyizere cyangwa ireme bikwiye guhabwa.

Ubutabera n'icyo bubereyeho kugira ngo bukemure ibibazo bigenda bigaragara mu banyarwanda. Igihe ukurikiranywe n'ubutabera hari abavoka bakunganira mu mategeko kugira ngo barusheho gusobanura ibyo udasobanukiwe.

Inyangamugayo zakoze akazi katoroshye, kuko zafashije abantu gukemura ibibazo byari biri hagati yabo, kandi mu buryo bwihuse, abariri barakoze ibyaha bari benshi kugira ngo bazaciribwe imanza n'inkiko ntabwo zari kurangira vuba.

Gereza ya Nyarugenge iherereye ahazwi nk'imageragere, ifungiwemo imfungwa zitandukanye, harimo izakoze jenoside ndetse n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu harimo abagore abakobwa ndetse n'abagabo n'abasore.

Indahiro yawe igomba kubahirizwa kuko igihe itubahirijwe ubihanirwa n'amategeko kandi ukavanwa mu nshingano wari wararahiriye kuko biba bigaragara ko utazishoboye.

Mu cyumba k'iburanisha ntago haba hagomba gukoreshwa ibyuma by'ikoranabuganga nka terefone cyangwa kamera igihe bitaherewe uburenganzira n'abacamanza, kuko urabanza ukabisaba wabyemererwa ukabona kubikoresha

Abafungiye muri za gereza batarahabwa ibihano, igihe kiragera bakaza imbere y'inkiko bakaburana kandi baba bafite n'ababunganira kandi utamufite nawe akiburanira hanyuma yatsinda urubanza akaba yataha cyangwa agahabwa igihano.

Abakoze ibyaha bajyanwa mu marorero atandukanye, bagahabwa ibihano bijyanye n'ibyaha bakoze, igihano yahawe cyashira akarekurwa agataha.

Ingabire Victoire wigeze gushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yahamijwe ibyaha arafungwa ariko aza kugeza igihe ahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu.

Abafunze iyo bagiye gusohoka hari imyambaro bambara yose isa, kugira ngo aho bagiye hatagira uza kwivanga na bo cyangwa akaba yatoroka, bikorohera n'ababashinzwe kubakontorora.

Inteko y'inyangamugayo; babaga bambaye umwenda ubaranga urimo amabara agize idarapo ry'igihugu; ari ryo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi handikishijemo ibara ry'umukara amagambo inyangamugayo.

Wari uzi ko? ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera ntibugurwa.

Amagororero ari hirya no hino mu gihugu, hafi muri buri karere, no mu karere ka Gicumbi irahari. Kugira ngo hitabweho ubuzima bw'abafunze, bareke kuba bacucitsemo ari benshi.

Igihe hari icyo uketsweho cyahungabanya umutekeno w'abanyarwanda urakurikiranwa, kugeza igihe bizagaragara ko urengana cyangwa biguhama ugakatirwa basanga urengana ugasohoka.

Ikoranabuhanga ridufasha muri byinshi, igihe hari icyorezo cyangwa hari impamvu ituma uburana atabona uko agera ku rukiko, urubanza rwe ruburanishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Igororero rya Huye ritanga serivisi zo gufasha abantu bakoze ibyaha cyangwa bagaragaje imyitwarire itari myiza muri sosiyete, bakajyanwayo kugira ngo bahabwe inama n'uko uko bakwitwara bagarutse mu bantu.

Ibyo uhawemo inshingano uba ugomba kubirahirira imbere y'abayobozi ndetse n'abo ugiye kubikorera, umanitse akaboko ugafata no ku idarapo ry'igihugu, ko utazabikoresha mu nyungu zawe bwite.

Icyicaro cya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, giherereye mu mujyi wa Kigali mu murwa mukuru wa repubulika y'u Rwanda, gishobora kwimurirwa ahandi hose mu Rwanda igihe bibaye ngombwa.

Ikirango kigaragaza ubutabera bugonga inkiko gacaca zakoresheje, kugira ngo zitange ubutabera ku bantu bari babukeneye, hano muri iki gihugu dore ko byafashije benshi.

Ab'igitsina gore na bo ntibahejwe kuko ubu na bo bafite inshingano zo kuba bakunganira abandi bakeneye ubufasha mu by'amategeko bakababuranira ndetse bazi no kwirinda igihe hari icyorezo.

uzwi nka leon mugesera wagize uruhare runini rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda, nawe yarafashwe ashyikirizwa inzego z'ubutabera.

Inyangamugayo zakoze akazi katoroshye, bagaragaza uruhare rwabo mu gukemura ibibazo byari byugarije abanyarwanda, kuko abenshi bari barahemutse, bamwe barasahuye, abandi barishe, bituma icyo kibazo gifatirwa umuti mu gihe gitoya.

Na kera na kare abanyarwanda bishakagamo ibisubizo, aho bicaraga mu gacaca bagacayura ibitagenda neza. N'ubu ngubu hari inama zikorwa bakazana abakoze ibyaha bakisobanura imbere y'abaturage.

Umunyapolitike uzwi ku izina rya Ingabire Victoire, igihe yari ari mu maboko y'ubutabera yunganirwaga n'abavoka harimo n'abafite uruhu rwera, ariko ntibyamubujije guhamwa n'ibyaha yashinjwaga, ariko nyuma ahabwa imbabazi.

Hari igihe cyageze abari bafunze bazanwa aho bakoreye ibyaha kugira ngo bisobanure kandi hagire n'ababashinja ibyo bakoze, hifashishijwe komite y'inyangamugayo bituma hakemuka ibibazo byinshi muri iki gihugu.

Umunyarwanda wamamaye ku izina rya Fata kumavuta yashyikirijwe inzego zibishinzwe kugira ngo akurikiranweho ibyaha n'amakosa byamugaragayeho kandi nibimuhama abihanirwe n'amategeko.

Mu mwaka wa mirongo itandatu na kabiri igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa kane kanama umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Inzu zubatswe nk'amagororero cyangwa amagereza ziba ari ndende cyane kugira ngo abazifungiyemo batazatoroka bagaca hejuru bagasimbuka igihe hubatswe inzu ngufiya.

Hari igihe imfungwa zisohoka zikajya gukora imirimo ariko zikongera zikagaruka muri gereza. Harimo guhinga ndetse n'abashoboye gukora iyindi mirimo itavunanye, kugira ngo hazavemo ibishoboye kubatunga.

Amazina ya bamwe mu bayobozi bakuru bo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa repubulika yitwa Paul Kagame. Naho minisitiri w'intebe yitwa Dogiteri Ngirente Edward.

Abantu bafunze bataraburanishwa, igihe kiragera bakazanwa aho bagomba kuburanira kugira ngo bahabwe ubutabera, bujyanye n'ibyaha bashinjwa. Ugaragaye ko ntakimuhama cyangwa bamuhaye igihano cy'ikirenga agahabwa ikindi.

Inzego z'umutekano ishami ryo mu muhanda bashyiraho abantu bareba ko amabwiriza baba bahawe bayubahirije harimo kudatwara ikinyabiziga wanyweye ibisindisha no kutagendera ku muvuduko urengeje igipimo.

Dushimire polisi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko ikomeza kudufasha mu bijyanye n'umutekano, kandi ikawukora mu buryo bunoze ku buryo bahawe n'inshingano zo kujya kuwubungabunga mu bindi bihugu.

Abashinzwe umutekano nka polisi ishami ryo mu muhanda, amanywa ndetse n'ijoro barakora, kugira ngo bareberere n'abagenda ninjoro umutekano wabo ndese n'uw'ibinyabiziga byabo.

Abapolisi bakorera mu mihanda bakomeje kubungabunga ubusugire bw'umutekano kandi banahugura abacururiza mu mihanda banyuranyije n'amategeko ko bagomba kugana amasoko bashyiriweho bakareka guteza umutekano muke.

Polisi ishami rishinzwe ubutabazi yigisha abantu bakoresha gaze uko bakwitabara igihe babonye yatse cyane ku buryo byavamo impanuka n'ibindi bikoresho byose bikaba byashya cyangwa n'abantu bagahera muri iyo nzu.

Hari ahantu usanga hamanitse kizimyamwoto, ariko abahakorera cyangwa abahagenda batazi uko zikoreshwa. Ni byiza ko uhugurira abantu bahahora umunsi ku munsi, uko zikoreshwa.

Abapolisi kugira ngo barusheho kunoza umutekano, bafata gahunda yo guhagarara ahantu haca abantu benshi, kugira ngo hatagira uza kubuza umutekano abahaca.

Ibitaro bya polisi biherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa kacyiru uvuye ahahoze gare ya kacyiru ugakomeza imbere ukagera ku kigo cya polisi munsi yaho .

Buri nyubako iba igomba gusigirwa umwanya w'aho ibinyabiziga bizajya biparika kuko ababa bahakorera cyangwa abaje kuhareba hari igihe baba babifite ugasanga babuze aho babiparika.

Ikinyabiziga cyose kigomba kugenda neza mu cyerekezo cyashyiriweho kugira kitabangamira izo bibisikana byiteho igihe uri umushoferi kuko nawe bizagufasha kwirinda impanuka.

Imodoka ikoreshwa na polisi ishami ryo mu muhanda, iba iri kugendagenda mu mpande zitandukanye kugira ngo irusheho kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu.

Ushobora kuba utekereza y'uko wowe inkongi itagera iwawe ariko ntabwo ari byo, gira kizimyamoto aho uherereye kugira ngo nutungurwa uzitabare ubashe kuzimya iyo nkongi.

Abashinzwe kuzimya umuriro bambara imyambaro yabugenewe ibarinda guhera ku birenge kugeza ku mutwe kugira ngo bataza nabo kugiriramo impanuka bakaba bahahira, bakoresha imipira yohereza amazi menshi ahari gushya.

Polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda bagira moto yihuta cyane ikurikirana ibinyabiziga igihe babihagaritse bikanga guhagarara kugira ngo amafuti yabo atagaragara.

Umupolisi uri mu nshingano ze, ari mu muhanda, ashyira ikinyabiziga k'uruhande kugira ugitwaye amwereke ko afite ibyangombwa byose bimwemerera gutwara icyo kinyabiziga.

Banki ikoreshwa n'abantu bo mu nzego z'umutekano, ariyo zigama se esesi no ku Muhima bahafite ishami, ubwo rero hari serivisi ukeneye uri ku muhima byakorohera.

Ahantu hashyiriweho kwambukira abagenda n'amaguru, umutekano waho kugeza igihe nawo ugakazwa aho inzego zibishinzwe ziza kureba koko niba uburenganzira abanyamaguru bahabwa bwubahirizwa.

Polisi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ishami ryo mu muhanda bafite imodoka zibafasha kurushaho kubungabunga umutekano byihuse hirya no hino, hose zirahakorera haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara.

Iyo habaye amatora habaho n'umwanya wo kubarura amajwi kugira ngo hamenyekane uwahize abandi muri ayo matora. Abatoresheje ni bo baba bafite inshingano zo kubarura ayo majwi.

Igihe cy'amatora umuturage yerekwa aho ajya kwiherera agatora umukandida ashaka, akazinga urupapuro yatoreyeho akaza akarushyira mu gasanduka kagenewe gushyirwamo izo mpapuro.

Mu gihe cyo kwiyamamaza uwari uhagarariye umuryango wa Efuperi inkotanyi mu matora, niwe wegukanye umwanya wo kuba umukuru w'igihugu ariwe Paul Kagame, yazengurutse ahantu henshi yiyamamaza.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame ariho asuhuzanya na Tito Rutaremara umusaza na wagize uruhare rukomeye mu kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Igihe cy'amatora abanyarwanda baba babukereye cyane ab'umuryango wa efuperi inkotanyi kugira ngo barusheho gushyigikira umukandida wabo maze imigambi n'imigabo biyemeje izagerweho.

Mu matora haba hari amasanduku yabugenewe yo gushyiramo impapuro watoreyeho, urabanza ukajya mu bwihugiko ugatora umukandida wahisemo ukazinga neza urupapuro rwawe ukaza ukarushyira mu isanduku.

Niba ubarizwa mu ishyaka rya efuperi uba ugomba kugaragaza ubushake bwawe ko ushyigikiye umukandida wawe mu gihe cy' amatora, ukitwaza ibirango bya rfuperi kandi ukambara n'imyambaro yabo.

Aho umuryango wa FPR inkotanyi wahuriye harangwa n'abantu benshi bambaye amabara y'umweru ndetse n'umutuku harimo n'ubururu cyangwa n'umukara .

Umuryango wa efuperi ufite amabara meza agaragaza ikirango cyabo harimo umweru, umutuku ndetse n'ubururu na efuperi byandikishijemo ibara ry'umukara.

Mpayimana Firipe yagaragaye yitabiriye umuhango wo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko ntiyatowe kuko atagejeje amajwi asabwa.

Umuryango Efuperi inkotanyi intego yayo iruta izindi ni demokarasi, ubumwe n'amajyambere, mu kirango bafite harimo n'intare.

Buri karere kagiye kagaragaramo ibikorwa byo kwamamaza umuryango efuperi inkotanyi. Kugira ngo bagezweho imigabo n'imigambi bazageza ku gihugu, ndetse n'abaturage bagituyemo.

Umuryango fpr inkotanyi uharanira ubumwe bw'abanyarwanda iyo uri mu bikorwa byo kwamamaza cyangwa gutora hagaragazwa ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko ndetse n'abakuze kandi bakamamaza umukandida babona wabagirira akamaro.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ategura inama ukitabirwa n'abantu benshi kuko ababwira amagambo meza kandi abungura ibitekerezo akabafasha mu bundi buzima ndetse no mu mishinga yabo bategura.

Mpayimana Philippe hamwe n'abari bamushyigikiye mu gihe cy'amatora, yambaye umushanana ari kuvuga ijambo rikubiyemo ibyo yazageza ku baturarwanda.

Mu gihe cy'amatora umuryango efuperi inkotanyi watanze umukandida wo kuwuhagararira ariwe Paul Kagame, yaratowe ubu niwe uyobora igihugu cy'u Rwanda.

Abantu baba baba mu nkambi muri kino gihugu, nabo bitabwaho n'inzego zibishinzwe, kandi hakaba igihe babahuriza hamwe bakabaganiriza bakagirwa inama z'uko bagomba gukomeza kubaho.

Mu rwego rwo kwirinda akavuyo ndetse n'umuvundo, iyo hari serivisi itangirwa ahantu hakaba abayishaka ari benshi, bajya ku murongo bakajya bakirwa bakurikije uko bagiye baza.

Abakuze nabo ntibahejwe mu miyoborere kuko nabo bagira uruhare mu gushyigikira umukandida mu gihe cy'amatora bihitiyemo kandi babona uzakomeza gusigasira ubuzima bwabo kandi akita no kubene gihugu.

Umukandida watanzwe n'ishyaka efuperi inkotanyi niwe watsinze amatora yo kuba umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda yitwa nyakubahwa perezida Paul kagame.

U Rwanda dufite amashyaka atandukanye harimo nk'irizwi nka paritili berale, mu magambo ahinnye ni pe eri ukwishyira ukizana, ubutabera n'amajyambere afite ikirango kigaragaramo ibigori.

Repubulika y' u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora igena uburyo abaturage bagomba gutora bijyanye n'amahitamo yabo kandi bigakorerwa ahagaragara kugira ngo buri wese anyurwe n'ibyavuye mu matora.

Imodoka zitwara imizigo zigomba kwitwaza na shitingi yo gutwikiraho kugira ngo ibyo batwaye batabigeza aho bijya byangiritse cyangwa byanyagiwe.

Hari ubwo uba ugiye kubaka inzu ariko ukumva aho uzakura ibikoresho n'ukuntu bizagera aho ukorera ntibizakorohera. Hari imodoka zitwara imicanga kandi zanagutwarira ibitaka wacukuye ahongaho zikajya kubimena ahandi ukubaka bitakugoye cyane.

Imodoka ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri kugenda mu muhanda ibisikanye n'indi ntoya y'umukara itagaragara yose, ku ruhande hari ibiti byinshi ndetse n'uruzitiro bigaragara ko inyuma hari kubakwa.

Niba ukunda ibintu by'imitako n'imodoka ugendamo cyangwa utwara na yo wayishyiraho imitako igihe hari umuntu wicaye inyuma mumodoka idasakaye, agomba kugira aho afata kuko hafashwe feri bitunguranye hari igihe yagwa.

Mu kurushaho guteza imbere ibijyanye n'ikoranabuhanga, ntibikiri ngombwa ko niba ugiye gutega imodoka uba ufite amafaranga mu ntoki, hari amakarita yabugenewe ukoza ku mashini ziri muri iyo modoka, amafaranga akavaho.

Ushaka kwamamaza ibikorwa byawe wa nifashisha bisi zitwara abagenzi ukandikaho bitewe nibyo uri kwamamaza nka BK nayo irabikoresha.

Abatwara abgenzi ku magare bazwi nk'abanyonzi baba bagomba kugenda neza bitonze kuko baba babisikana n'ibindi binyabiziga kandi haba hacamo n'abagenda n'amaguru.

Ikinyabiziga cya moto kigira aho bamanika ikiyiranga kizwi nka purake, ni ngombwa ko kiba cyanditseho nimero y'icyo kinyabiziga ikiranga kandi igaragara neza kugira ngo naramuka akoze ikosa atazitiranwa n'undi.

Imodoka zitwara abantu zibavana mu mujyi wa kigali zibajyana mu ntara, hari iyitwa enterinasiyonare ikorera cyane mu ntara y'iburasirazuba ugiye i rwamagana cyangwa i kayonza.

Umuntu ufite imodoka itwara imizigo yatekereje kure ashyiraho ibindi byuma bizamutse kugirango nabona umuzigo urimo ibintu byinshi azabone uko awutwara bitamugoye.

Igihe utwara imizigo reba umwambaro uzagufasha kugira ngo imyambaro yawe yose itazajya yangirika uko uyambaye, ushake igisarubeti kizatuma indi myenda idacuyuka cyangwa se ngo icike vuba, yewe nta nubwo izandura byihuse.

Imodoka ntoya zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizwi nka hiyasi ziri kugenda zisimbuzwa izindi nini kugira ngo hajye hagendera abantu benshi icyarimwe ariko nazo ubu ziracyakora bikorwa gahoro.

Ntibikiri ikibazo gutega imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange; zabaye nyinshi ku buryo nta mirongo ikigaragara hirya no hino muri za gare zo mu rwanda.

Ikinyabiziga cy'igare kiriho umufuka rigaragara ko upima ibiro byinshi. Ni byiza yuko igihe ugiye gutwara umuzigo ureba uberanye n'icyo kinyabiziga utwara kugirango utazakuviramo impanuka itunguranye.

Imodoka zitwara imizigo zigomba kugira shitingi itwikira ibyo batwaye kandi hakaba hagendaho n'umuntu inyuma ureba ibirimo kugira ngo hatagira ubyiba.

Kugira ngo abakarani bagabanye imvune bahuraga nazo bikorera imitwaro ku mitwe cyangwa bayitwara ku bitugu, bashatse ibikoresho bikozwe mu mbaho ndetse bakifashisha n'amapine y'ikindi kintu bagakora ingororofani bazajya batwaraho imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo utuma ibinyabiziga biwugendamo bitangirika vuba kuko ho nta mikuku iba irimo cyangwa amabuye izashyirwe ahantu henshi kugira bifashe abakoresha ibinyabiziga.

Ubwoko bwa moto bwinshi, bugaragara mu mihanda, ariko bwose bugahuriza hamwe gutwara abantu bubageza aho bagiye, cyangwa bubafasha gutwara ibindi bintu bakeneye, nko gutuma batiriwe bo bajyayo.

Ingorofani abatwara imizigo bazwi nk'abakarani bifashisha kugira ngo bapakirire myinshi icyarimwe kandi bareke kuvunika bayikoreye ku mutwe cyangwa ku bitugu.

Hari igihe uba udafite ubushobozi buhagije bwo gutega imodoka cyangwa moto, ariko abanyonzi bo ntago bahenda nawe uramutega akagutwara kandi ukagera aho ushaka kugera.

Imodoka zitwara abantu zibavana mu mujyi wa Kigali zibajyana mu ntara cyangwa se zibavana mu ntara zibazana mu mujyi wa Kigali ari ajance yitwa matunda ikorera mu ntara y'uburarasirazuba abahagenda muyigane.

Ushobora kuba ushaka kubaka inzu, ariko ukabura uko ugeza ku mucanga cyangwa amabuye aho ugiye gushyira iyo nyubako. Reba imodoka zizwi ku izina rya hoho bagufashe kukugezareza uwo mucanga aho ukeneye.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda ubu ngubu hari imodoka nini zitwara abantu zikoreshwa n'amashanyarazi. Kugira ngo u Rwanda rurusheho kubungabunga ibidukikije, bahisemo gukoresha n'iyo gahunda.

Hari imihanda minini igiye ishimiho iyindi yose ikoreshwa n'abatwara ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru. Ni ngombwa ko ubanza gushishoza igihe ugiye kwinjira mu wundi muhanda kugira ngo utagongana n'ikindi kinyabiziga kihaturutse.

Gutega biroroshye kuko ushobora kuba wihuta ugatega moto, ariko hari n'abakoresha amagare nabo batwara abantu, wabatega bakakugeza aho ugiye.

Abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange ibinyabiziga byabo hashyirwaho nimero wahamagara igihe ugize ikibazo harimo iya polisi, ndetse niy'ambiranse hamwe n'iya rura

Mu minsi yashize twari dufite ikibazo cy'abantu batindaga muri za gare cyangwa ku byapa bitagerwaho imodoka za rusange babuze uko bagera aho bagiye ariko ubu imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange zarongerewe icyo kibazo kiri kugenda kigabanyuka.

Imodoka zitwara imizigo zivana nk'ibishyimbo cyangwa ibigori mu ntara ndetse n'amasaka, bakabizana mu mijyi kugira ngo abahatuye na bo babihahe.

Nutega ikinyabiziga cya moto uzibuke kwambara ingofero kuko irinda umutwe kandi n'umuyaga ntabwo ukwica, wibutse no kubwira motari ko atemerewe kuvugira kuri telefone igihe atwaye.

Ahantu heza hatunganyijwe mu mujyi wa Kigali rwagati, wasohokana abana cyangwa nawe ukuze wasohokerayo, hari ubusitani bwiza kandi wajyanayo n'umukunzi wawe.

Ibigo by'amashuri haba hagomba kwitabwaho hagashyirwa ibibuga abahiga bazajya bakoreramo imyidagaduro bagakina basikete ndetse n'abakina indi mikino nabo bagashyirirwaho aho bagomba kuyikinira.

Imikino myinshi itandukanye iyiba ari mpuzamahanga hari ijya ibera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'abitabira umukino wa basikete n'abo bajya baza kuhakinira bari mu marushanwa.

Igihe cyose ugenda mu muhanda, utwaye ikinyabiziga jya wi bita ku byapa byose bihari, kuko hari n'ikiba kikwereka ko imbere hari in ikorosi, rero ubwo utabyitayeho ushobora gukora impanuka.

Icyapa kigaragaza ko aho hantu hatemerewe guparikwa ikinyabiziga cy'imodoka, ni ngombwa ko twubahiriza amabwiriza agaragara hirya no hino ku byapa mu mihanda ducamo.

Ibyapa byose biba biri ku mihanda biba bigaragaza ikintu gikomeye niyo mpamvu uba ugomba kubyitaho, n'ikigaragaza yuko umuhanda ugiye kugeramo imbere ari mutoya, atari mugari nk'aho uri guca ubwo ngubwo.

Hari ubwo feruje iba yerekana ko ufite uburenganzira bwo gutambuka ari uwugenda n'amaguru, niba utwaye ikinyabiziga uramenye utazagenda harimo ikerekana ko umunyamaguru agiye gutambuka.

Icyapa cya mirongo ine kiba gikangurira abatwara ibinyabiziga y'uko, aho hantu bageze bagomba kugabanya umuvuduko, ntibarenze iyo mibare yanditseho ariyo mirongo ine.

Inzu yubatse neza iruhande rw'ahateye ishyamba, icyapa kigaragaza amerekezo y'abaciye muri uwo muhanda : Akanyaru, Huye, Muhanga, Ruhango na Kinazi.

Icyapa cyerekana ko ahantu ugiye kugera hari inzira icibwamo n'abanyamaguru bari kwambukiranya umuhanda, itonde kugira utazahungabanya abahaca nawe kandi bikakuviramo izindi ngaruka.

Akarere ka Rusizi kari mu gihugu cy' u Rwanda kakaba gaherereye mu ntara y'uburengerazuba, gahana imbibi n'igihugu k'igituranyi cya Kongo ni heza haboneka ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Icyapa gishinze hafi y'umuhanda wa kaburimbo, kigaragaza ko umuntu uhaciye atwaye ikinyabiziga, nka moto cyangwa imodoka, atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa kimanikwa ku muhanda hafi ya kaburimbo kugira ngo abahaca bamenye umuvuduko bagomba kugenderaho, icyanditseho mirongo itandatu ntabwo uba ugomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu.

Ku mihanda hashyizwe ibyapa bigaragaza aho ikibuga cy'indege mpuzamahanga giherereye, aho kiri mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe hafi y'i Remera.

Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira. Igihe utwaye ikinyabiziga ukabona iki cyapa ujye wibuka, kugabanya umuvuduko kandi urebe niba hari igihe cyo kwambuka cy'abanyamaguru ubareke batambuke.

Icyapa kigaragaza aho umunyamaguru agomba guca igihe arimo yambukiranya umuhanda, abatwara ibinyabiziga na bo baba bagomba guha umwanya abagenda n'amaguru bakambuka.

Igihe cyose utwara ikinyabiziga cg se ugiye gutega imodoka mu buryo bwa rusange gerageza kureba ahari icyapa abe ariho uhagarara cyemerewe guparikamo imodoka, nawe mugenzi utega abe ariho utegera.

Amapoto ariho insinga zijyana umuriro mu ngo z'abahatuye hari nayandi aba ama nitseho amatara atanga urumuri mu mihanda nyabagendwa.

Iremera mu mujyi wa kigali hafi yo kwa rando hari ubusitani bwiza bukikije amazu ahari, ubona yuko uhatuye rwose waba utuye muri karitsiye imeze neza.

Tujye twibuka gusukura aho dutuye, dukuraho ibyatsi byagiye bimera ku mihanda, ndetse n'indi myanda iba yagiye ijugunywa ahongaho, kugira ngo dukomeze kubungabunga isuku igaragara hano mu mugi.

Niba ukoresha ubwishingizi bw'indwara, egera farumasi nka ngabo baguhe imiti kuko nabo bakorana n'ibigo by'ubwishingizi kandi biragufasha kuko imiti uyibonera kuri icyo giciro.

Mu karere ka Gasabo mu murenge wa ndera ni mu mujyi wa Kigali hari ibibanza bitarubakwamo wahagera nawe ukahashyira inyubako yawe yo guturamo.

Kimironko ukomeza ujya kwa nayinzira uca ahantu hitwa mw’ izindiro hari ibibanza byiza ndetse n'inzu wabamo ni hafi yaho uruganda rwa azamu rukorera.

Impala resito-bare iherereye i Remera ahazwi nko ku cya mitsingi munsi y'umuhanda hafi ya sitasiyo, wahagera nawe ukabateza imbere.

Ahantu hagaragara ibibanza byiza byo guturamo kuko haritegeye kandi hari n'abandi bantu bahatuye ntago waba utuye wenyine, wahagura ikibanza nawe ukahiyubakira iyawe nzu.

Mu murenge wa kinyinya mu karere ka Gasabo, hari ahakigaragara ubutaka bwakubakwamo, ubaye ufite ubushobozi, wahagana ukagura ikibanza nawe ukahiyubakira inzu igendanye n'igihe.

I remera mu mujyi wa kigali hari amazu yubatswe mu buryo bugerekeranye, azwi nk'ama etage n'ayandi asanzwe azwi nka kadasiteri ndetse hari n'ubusitani bubasha kuzana umwuka mwiza ku bahatuye.

Ahantu heza ho gutura hakiri ibibanza ndetse hari n'inzu zubatse ku buryo bugerekeranye zizwi nka etage ukeneye kuyubaka wagura ikibanza nawe ukahashyira inyubako yawe.

Ni byiza ko utekereza kure igihe muri karitsiye hakunda kubura amazi, shaka ikigega kinini ukihashyire ujye ubona amazi yo gukoresha igihe ahandi yabuze cyangwa uyagurishe.

Ahantu heza watura mu mugi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimirongo ahazwi nko mu Bibare haratuje kandi hari amazu meza ndetse hari n'ibibanza bitarubakwa.

Ahantu utuye si ngombwa ko hose uhubaka amazu, kuko dukenera umwuka mwiza wo guhumeka uvuye mu busitani, sida n'umwanya wo gushyiramo ubusitani iwawe mu rugo.

Igihingwa cy'ikigori ni cyiza kuko kigira umumaro mwinshi, hari abakoramo ifu bagashigishamo igikoma, hari n'abakoramo umutsima, ndetse no mu nganda hari aho bikoreshwa bikorwamo imisemburo.

Umujyi wa Kigali ahazwi nko mu Giporoso haba hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, igihe uhagenda uba ugomba kwigengesera kugirango uhatambuke udahuye n'ikibazo.

Mu mujyi wa kigali hari ahagaragara imihanda ishashemo amabuye yunganira iyindi ya kaburimbo mu rwego rwo kugira ngo serivisi zitwarare abantu zibone imihanda ndetse n'abaturage bature ahantu heza.

Ukeneye ko ibikorwa byawe bimenyekana hari amafoto ateye mu mujyi wa Kigali wakwimamarizaho ibyo ukora bikamenyekana.

Umuhanda niyo waba utarashyirwamo kaburimbo na wo uba ugomba kwitabwaho ku mpande hagashyirwaho inzira zijyana amazi kugira ngo utangirika kuko nawo wifashishwa n'abahatuye.

U Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa , ku mihanda hamanitswe amatara acana iyo bwije kugira ngo harusheho kunozwa umutekano w'abahagenda iyo bwije .

Ikiraro giteye amabengeza giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, uba uva sonatube werekeza kicukiro i nyanza hari n'aho imodoka zicamo munsi.

Nubwo hari ahashyirieweho wowe wambukiranya umuhanda n'amaguru, ariko ntabwo ari ngombwa ngo nuhagera uhite wambukiranya, hubwo ubanza gushishoza ukareba impande zombi ko ntakinyabiziga kiri kuza kandi kihuta kugira ngo mudahuriramo hagati kikaba cyakugonga

Mu buryo bwo kugabanya impanuka n'umutekano muke waberaga mu muhanda w'ibinyabiziga, hashyizweho kamera ku mihanda nini zizwi nka sofiya zifotora ibinyabiziga igihe byarengeje umuvuduko.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kicukiro santere, hari umuhanda ugerekeranye, aho imodoka zimwe zica munsi, izindi zigaca hejuru ku buryo ntayibangamira iyindi.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye; nk'inyanya, ibitunguru, ibishyimbo ndetse n'ibindi nk'ibitoki mu buryo bwinshi cyangwa se mu buryo bukeya.

Imihanda yacu iba ikeye kandi irimo isuku, kuko hari n'abashyizweho bazajya bayikoramo isuku buri munsi. Nawe rero ntukajye ugenda ujugunya imyanda aho ubonye hose batabugenewe.

Umuhanda w'igitaka uhuza karitsiye ndetse bituma n'ufite ikinyabiziga ahatuye abona aho agicisha, nayo iracyifashishwa kuko nayo ifitiye akamaro abahatuye.

Imihanda ya kaburimbo ikozwe neza kandi ahagaragara ko hateza ibibazo abahaca, hagakotirwa n'uruzitiro rw'ibyuma, hari n'amatara ku mihanda amurikira abahaca iyo bwije.

Imihanda ya kaburimbo yarongerewe mu gihugu, ahantu henshi hatandukanye kugira ngo barusheho guha serivise nziza abahacisha ibinyabiziga ndetse n'abahaca n'amaguru, birinde n'ivumbi abahatuye.

Ku mihanda hagiye haterwa ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye, harimo gereveriya ndetse na pinusi kugira ngo abahaciye bajye bahumeka umwuka mwiza.

Mu gihe ukeneye ko ibicuruzwa byawe cyangwa ibindi bikorwa ukora bigomba kumenyekana; hari amapoto aba amanitse ku mihanda; washyiraho ibyapa kugira ngo uhaciye amenye ibikorwa byawe akugane.

Dufite amahirwe adasanzwe, kuko dufite ubuyobozi bwiza. Hatekerejwe uburyo hakwangurwa imihanda, kugira ngo hagabanyuke ubutinde bw'imodoka zatindaga mu mihanda, bitewe n'ubwinshi bwazo.

Imihanda iri hirya no hino mu mugi iyo ikorwa, hitabwaho n'inzira abagenda n'amaguru bazajya bacamo, kugira ngo batazajya baca hamwe n'ibinyabiziga, bakagenda babisikana nabyo.

Nugera ahambukira abanyamaguru, ugasanga harimo ibara rigaragaza yuko aribo bagomba kwambuka, reka babanze batambuke kuko nabo bafite uburenganzira muri uwo muhanda.

Niba uvuye mumuhanda winjira mu wundi, banza urebe neza ko nta bindi binyabiziga biri kugenda ku buryo mutagongana, hanyuma ubone gutambuka wizeye ko utekanye.

Igihe cyose ugenda muri kaburimbo ntuzambuke uko wiboneye kuko hari inzira zashyiriweho aho abanyamaguru bagomba kwambukira ba ariho uca kugira ngo utabangamira abandi baca muri uwo muhanda.

Mu rwego rwo guha umwuka mwiza abatuye mu mujyi wa Kigali, hari ahagiye hafatwa haterwa ibiti kugira ngo umwuka wiyongere mwiza mu baturage bahatuye ndetse n'abahaca n'abandi bahakorera.

Mu mihanda ya kaburimbo kugira ngo hashyirwemo inzira igaragaza aho abanyamaguru bazajya baca hashyirwamo amarangi y'imyeru akoze imirongo itondekanye igaragaza aho umunyamaguru agomba guca ari kwambuka.

Feruje zashyizwe ku imihanda kugira ngo zijye zigabanya umuvundo w'ibinyabiziga, kandi ziyobore n'abantu hakurikijwe buri cyerekezo bagiyemo, batambuke batagonganye.

Igihe ufite ibintu ugomba gutwara ubivana hamwe ubijyana ahandi, ukaba utabasha kubyikorera cyangwa ngo n'umukarani abigutwaze, hari utumamoto dutwara imizigo itari mikeya dukorera hano mu Rwanda kandi twakorewe n'inaha mu Rwanda.

Ni byiza ko hari ahashyizwe utuzu abagenzi bicaramo, cyangwa bakugama mo izuba, igihe bategereje ibinyabiziga bibatwara, ariko hari n'ibindi byapa bitarashyirwaho utu tuzu byazitabwaho, kugirango abahategera nabo babone iyo serivisi.